Icyumba kinini gikorerwamo inama kirimo sima ndetse gifite amadirishya manini ariho amarido, cyicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu , imbere hari umugore wicaye ku ntebe y'umukara uri kwandika ndetse imbere ye hari telefone ndetse n'icupa ry'amazi.

Icyapa kinini kigizwe n'ubuso bw'ubururu, kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, ndetse cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru, imbere yacyo hari intebe nyinshi zirimo ibara ry'umukara, ndetse n'abasore babiri bambaye imipira y'umweru, ndetse n'amakoboyi.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo urumuri ndetse kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu, higanjemo abagabo, kirimo umugore uhagaze ufite umusatsi w'umukara wambaye ishati irimo amabara abiri, umweru n'umukara ndetse afite mikoro mu ntoki. Inyuma ye hari umugabo wambaye amarinete wicaye ndetse wambaye umupira urimo ibara ry'umukara wanditsweho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi.

Inzu nini irimo imbaga nyamwinshi y'abantu, higanjemo abashinzwe umutekano harimo abadaso bambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi, imbere yabo hari porojegiteri iri mu ibara ry'umweru, hirya gato hari abasirikare bambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda.

Icyumba kinini gikorerwamo inama gisigazwe irangi ry'umuhondo, cyicawe mo n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo, imbere hari umugabo w'umusirikare wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda ufashe mikoro, iruhande rwe hicaye umugore wambaye amarinete ndetse n'umupira uri mu ibara ry'umutuku, imbere yabo hari imeza iriho amacupa y'amazi atandukanye.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, yambaye ikote ndetse ahagaze mu bantu, arimo aratanga ibitekerezo ku birebana n'ingingo zahoze ziganirwaho.

Itsinda ry'abantu bicaye higanjemo abagore harimo umugabo wambaye amarinete ndetse n'ikote rya kositimu, iruhande rwe hari umugore wambaye amarinete, ufite amaherena ku gutwi ndetse wambaye ishati y'igitenge, inyuma ye hari umugabo wambaye ikositimu iri mu ibara ry'umukara.

Icyumba gikorerwamo inama, kirimo urumuri ndetse kicawemo n'abantu batandukanye, higanjemo abagabo. Harimo umugabo w'umwirabura wambaye ishati wicaye ku ntebe iri mu ibara ry'umutuku, Iruhande rwe hari umugore ufite ibisuko by'umukara ndetse wambaye amaherena ku matwi.

Umugore wambaye amarinete ufitete mikoro mu ntoki wambaye ikanzu, iruhande rwe hari umubyeyi wambaye umukenyero, inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda gifite ubuso buri mu ibara ry'ubururu ndetse cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba kinini gikorerwamo inama gisize irangi ry'umuhondo ndetse kicawemo n'imbaga nyamwinshi higanjemo abagabo, imbere hari itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hirya hari icyapa kinini gifite ubuso bw'ubururu cyanditswemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba kinini kirimo urumuri kicawemo imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye imbere hari umukobwa uri kubyina imbyino nyarwanda, wambaye impinkeya irimo ibara ry'umweru, ndetse yambaye isengeri irimo ibara ry'umweru kandi yambaye urunigi mu ijosi.

Ahantu hari urumuri, hari abasore bapfukamye bari kubyina imbyino gakondo z'umuco Nyarwanda kandi bambaye imyenda igizwe n'amabara atandukanye higanjemo iry'umukara, imbyino gakondo ni ingenzi kuko zigaragaza umuco w'Igihugu kandi zikanawufasha kuwusigasira.

Umusaza ndetse n'umugabo uri inyuma ye bose barimo baravuza ikondera, ibi ni ibikoresho bya kinyarwanda byifashishwa mu gucuranga ndetse bitanga umuziki.

Ikibindi, kizwiho kubika, ndetse no gusigasira ibisukika. Cyakoreshwaga kera, ubu bigenda bicika.

Kera ibyuma bisya bitaraza hifashishwaga amabuye, rimwe rikitwa urusyo, irindi rikitwa ingasire bityo uyu mubyeyi arimo arasya akoresheje ibyo bikoresho.

Abari beza bambaye imikenyero, bambaye imishanana y'imyeru. Barishimye barimo barabyina biragaragara ko habaye ibikorwa runaka.

Icyumba kiza kirimo urumuri kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu, higanjemo abagabo harimo abakobwa bari kubyina bambaye imikenyero iri mu ibara ry'umweru, ndetse bari kubyina imbyino gakondo, hirya yabo hari abagabo bicaye higanjemo abambaye amakoti y'umukara.

Ipoto ryifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi, ririho insinga zitandukanye, ziri mu ibara ry'umukara, hejuru hari ikirere kiri mu ibara ry'ubururu, ni ngombwa gusigasira amashanyarazi kuko ni ngombwa mu buzima bwa muntu, atuma tubaho, dufite urumuri.

Ahantu hari abakozi bifashishwa mu gutunganya amashanyarazi, hari umugabo wambaye kasike iri mu ibara ry'umuhondo, jile ndetse n'umupira w'umukara, ikindi yambaye ga zirimo ibara ry'umukara, inyuma ye hari abakozi batandukanye bari gukora igikoresho cyifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi.

Umurima munini uhinzemo ibihingwa bitandukanye, urimo insina zifite amakoma ari mu ibara ry'icyatsi ndetse harimo igiti kinini ndetse hari urutsinga rw'umukara rwifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage kandi ku ruhande, hari igiti gifite amashami ndetse n'amababi ari mu ibara ry'icyatsi.

Umuhanda muremure w'ibitaka, iruhande rwawo hari insinga z'amashanyarazi ziri ku mapoto y'ibiti. Ni mu giturage ahari urutoki biragaragara ko ari ku manywa.

Umusozi munini urihoa inzu isakajwe mabati ari mu ibara ry'ubururu ndetse isizwe irangi ry'umuhondo, hasi yayo hari ibihingwa bitandukanye higanjemo insina kandi hari umunara munini uriho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gutunganya amashanyarazi kirimo abagabo babiri uw'umuzungu wambaye ingofero iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umupira w'umukara, iruhande rwe hari umwirabura wambaye ingofero iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umupira w'umukara.

Icyumba kirimo urumuri, kirimo umugabo wambaye imyenda iririmo ibara ry'ubururu, ari gukora ubutekinisiye ku bigendanye n'amashanyarazi, ndetse imbere ye hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusigasira amashanyarazi.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gusigasira amashanyarazi, kirimo umugabo w'umuzungu wambaye kasike iri mu ibara ry'umuhondo, ijire ndetse ari gukora amashanyarazi yifashishije ibyuma by'ikoranabuhanga, amashanyarazi mu buzima bwa muntu ni ingenzi kuko atuma tubaho mu buzima bufite umucyo.

Inzu ikorerwamo ubushakashatsi ku miti itandukanye, irageretse ndetse isise irange ry'umuhondo kandi yanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse ifite urugi ruri mu ibara ry'umweru, imbere yayo hari indabo zikase neza ngufi ndetse n'umuhanda munini w'umukara.

Inzu nini isize irangi ry'ubururu iriho icyapa irimo intebe zikozwemo mu mbaho, imbere yazo hari umugabo wambaye ingofero iri mu ibara ry'umutuku, ndetse wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, imbere hari akabuga gato karimo utugaraviye twinshi karimo kandagira ukarabe, iri mu ibara ry'umweru.

Icyapa kinini kigizwe n'ubuso buri mu ibara ry'umweru kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse kiriho n'idarapo rigizwe n'amabara atatu: ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hasi yaryo hari amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Umupaka w'u Rwanda ndetse n'u Buganda ruhande rumwe handitseho ngo sefu jani, mu gifaransa bo vuwayaje, mu kinyarwanda urugendo ruhire.

Inzu nini isizwe irangi ry'umweru, imbere yayo hari imashini iri gukora umuhanda, iriho abakozi batandukanye higanjemo abambaye amajire y'umutuku ndetse n'ingofero zirimo ibara ry'umuhondo, hari umusaza wambaye ipantaro y'ikoboyi ufite igitiyo mu ntoki.

Ibiro by'Umurenge wa Rukomo byubakishijwe amatafari ahiye ndetse bifite amadirishya arimo ibirahuri by'umukara. Imbere yabyo hari imbuga nini yubakishijwe amapave, ihagazemo imbaga nyamwinshi y'abantu. Higanjemo abagabo, hari umugore wambaye umukenyero ndetse iruhande rwe hari umugabo wambaye ikoti rya kositimu riri mu ibara ry'umukara.

Akazu gasize irangi ry'ubururu gasakaje amabati y'ubururu, iyi nzu itangirwamo serivise z'ubuzima. Aha ni ku kago nderabuzima gatoya.

Imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo bahagaze muri sitade, hasi yabo hari udutebe turi mu ibara ry'ubururu, umwe muri bo yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, hirya ye hari umugore wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'ikote riri mu ibara ry'umukara.

Umuhanda munini w'umukara urimo umurongo muremure w'umweru, imbere yawo hari ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru gitwara abagenzi, inyuma yacyo hari inzu nziza igeretse isizwe irangi ry'umuhondo ndetse yubakishijwe amabati ari mu ibara ry'ubururu.

Ibiro by'Umurenge wa Katabagemu, aha ni mu Karere ka Nyabihu, imbere yaho hicaye ababyeyi baje gushaka serivisi ndetse barazibona.

Inzu y'abagororwa ya Nyagatare ifite igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, ifite urugi ruri mu mabara abiri, umweru n'umukara kandi yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, imbere yayo hari abanyeshuri bambaye impuzankano igizwe n'amakabutura ari mu ibara ry'umukara.

Umujyi munini ugizwe n'inyubako zitandukanye, higanjemo izigeretse zisakajwe amabati ari mu ibara ry'ubururu, imbere yazo hari umuhanda munini w'umukara, naho inyuma yazo hari umusozi munini ugizwe n'ibihingwa bitandukanye, higanjemo ibiti ndetse harimo umunara wifashishwa mu gukwirakwiza interineti.

Inzu nini yifashishwa mu kubika umusaruro w'ibigori, yubakishijwe amabati ari mu ibara ry'umutuku, hirya yayo hari ikigega cy'amazi kirimo ibara ry'umukara, imbere gato hari igare riparitse ritwaye agafuka kari mu ibara ry'umweru.

Akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave hirya yako hari ikibuga kirimo ibyatsi ndetse imbere gato hari utwuma dushinze dutatu, imbere cyane hari inzu nziza yubakishijwe amatafari ahiye ndetse isizwe irangi ry'umuhondo.

umugabo w'umuzungu ari kumwe n'abagabo babiri b'abirabura, barimo barakora umuhango wo gufungura, ikiraro bahawe na leta yacu y'u rwanda.

Ibiro by'umurenge byubakishijwe amatafarihiye, bisizwe amarangi atandukanye yiganjemo iry'umuhondo, byanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara, imbere yabyo hari idarapo ry'igihugu cy'u rwanda rigizwe n'amabara atatu, icyatsi, umuhondo, ndetse n'ubururu.

Igipangu cyubakishijwe amabuye, gifite inkingi zibakishijwe amatafari ahiye ndetse cyubakishijwe ibyuma, mo indani harimo isoku risakaye acururizwamo ibikoresho bitandukanye ndetse hari umugabo wambaye ipantaro iri m ibara ry'icyatsi.

Umuhanda w'igitaka uri ikiraro cyubakishijwe ibiti, munsi yacyo hari amazi mabi atemba, hejuru yacyo hari umukobwa wambaye bodaboda, ipantaro y'umukara ndetse imbere ye hari umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye ndetse inyuma y'aho hari ishyamba rigizwe n'ibiti bitandukanye.

Inzu y'isoko rya kijyambere irimo ibibanza bigiye bitandukanye, aho abacuruzi bazajya bakorera, risakaye neza ndetse rifite isuku.

Inzu nziza nini yubatse igeretse isakajwe amabati arimo ibara ry'umutuku, imbere yayo hari indabo nziza zikase neza zirimo agahanda k'abanyamaguru kubakishijwe amapave ku ruhande gato hari pisine igizwe n'amazi menshi.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'icyatsi kiri ku mupaka w'u Rwanda na Uganda cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru agaragaza Repubulika ya Uganda, hirya yacyo hari icyapa gifite ubuso bw'umweru cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara avuga urugendo rwiza.

Abayobozi bane barimo umugore umwe n'abagabo batatu bicaye imbere y'abantu barimo barabaganiriza ku birebana n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu, imbere yabo hari ameza manini ateretseho icyo kunywa.

Umugore wambaye umupira w'umweru, afite umutaka uri mu ibara ry'umukara ndetse atwikiriye umugore ufite ibisuko by'umukara, wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku, ufite ibipesi biri mu ibara ry'umukara ndetse ufite indabo. Hirya ye hari umugore ufite ibishuko biri mu ibara ry'umukara, wambaye agasengeri k'umweru ndetse n'umukenyero iri mu ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye amalinete ndetse na kositimu iri mu ibara ry'umukara, inyuma ye hari umupolisi wambaye impuzankano y'Igipolisi cy'u Rwanda uri kureba ku ruhande, hirya gato hari umusirikare wambaye impunzankano y'Igisirikare cy'u Rwanda ndetse iriho idarapo rigizwe n'amabara atatu: ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abantu barimo abambaye udupira tw'icyatsi barimo barasa ibitsitsi, biragaragara ko ririya ari ishyamba ryasaruwe.

Itsinda ry'abana rihagaze, higanjemo abagabo, harimo umugore witeze igitambaro mu mutwe. Imbere ye hari igiti gifite amashami maremare ndetse imbere yabo hari ikigo cy'amashuri kigizwe n'ibyuma byubakishijwe amatafariye ndetse bisakajwe amabati ari mu ibara ry'ubururu

Jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana ikenda mirongo kenda na kane, ntabwo izibagirana mu mitwe y'abanyarwanda. Aba bantu barimo barakora umuhango wo kunamira abazize jenoside.

Icyumba gikorerwamo inama, kirimo urumuri ndetse gisize irangi ry'umuhondo. Kirimo icyapa kinini kiriho ikirangantego cya Repubuka y'u Rwanda ndetse cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu. Imbere yacyo hari intebe enye z'umukara ndetse imbere gato hari umusirikare wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda, ufite mikoro ndetse wambaye amarinete.

Polisi wambaye ingofero ndetse n'amarinete harimo arahereza seritifika umugabo wambaye ishati ndende y'amaboko magufi.

Itente rigizwe n'ibara ry'umweru ririmo amatara abiri amurika ndetse ryiciwemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo. Imbere hari umugore wicaye wambaye umupira w'umukara ipantaro y'ikoboyi ndetse afite buji iri kwaka mu ntoki.

Inka igizwe n'amabara abiri umwerure n'umukara, inyuma yayo hari abantu benshi bahagaze umwe muri bo ni umugabo yambaye amarinete, ikote ry'umukara inyuma ye hari umusirikare wambaye impuzankano y'Igisirikare cy'u Rwanda, ku ruhande rwe hari umupolisi wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara.

Itete rigizwe n'amabara y'ubururu n'umweru ririmo umugore wambaye ikoti ry'umuhondo ndetse imbere ye hari igikoresho gikozwe mu mbahu, imbere hari abantu bahagaze higanjemo abagore bambaye imikenyero iri mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hari abagabo babiri bafashe igipapuro mu ntoki, umwe muri bo yambaye amarinete.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye ahantu hamwe, harimo urubyiruko rwinshi ndetse n'abagore. Baje kumva ibirebana n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwabo.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye higanjemo abagore imbere yabo hicaye abagabo batatu, umusaza ufite imvi z'umweru, wambaye ikositimu, ndetse yicaye ku ntebe irimo ibara ry'umweru, hirya ye gato hari umugabo ukuze wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara uri gukoresha telefone.

Umuhanda munini w'umukara ku ruhande rwawo hari uturongo ducagaguye turi mu ibara ry'umweru, urimo ikinyabiziga gitewe amarange atandukanye higanjemo iry'umweru, hirya gato hari inzu zikorerwamo ubucuruzi ziganjemo izisizwe irange ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara urimo imirongo myinshi iri mu ibara ry'umweru ,ndetse urimo igare ritwawe n'umusore wambaye ijile irimo ibara ry'umuhondo , inyuma hari inzu nyinshi zikorerwamo ubucuruzi , ziganjemo izisizwe irangi ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara, urimo umurongo muremure uri mu ibara ry'umuhondo, urimo umusore wambaye ikote ry'umweru, ikabutura y'ikoboyi badabudeze mu ibara ry'umuhondo, ndetse ari gusunika igare ritwaye agafuka karirimo ibara ry'umweru, hirya gato hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, gifite urugi ruri mu ibara ry'umukara.

Umuhanda munini w'umukara urimo umusore wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara ndetse yambaye ijire irimo ibara ry'umutuku, inyuma ye hari ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara abagenzi kirimo ibara ry'umweru ndetse iruhande rwacyo hari umusore wambaye ijire riri mu ibara ry'umutuku.

Umumotari wicaye kuri moto yambaye kasike y'umutuku arimo araganira n'umugore wambaye imyambaro y'ibitenge, bahagaze iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda munini w'umukara, urimo imirongo icagaguye, iri mu ibara ry'umweru, urimo kandi igare ritwawe n'umusore, wambaye umupira w'umukara, n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hicaye umukobwa wambaye ingofero mu mutwe. Iruhande gato hari amazu y'ubucuruzi, ariho ibyapa bitandukanye, asizwe irangi riri mu ibara ry'umweru.

Urubyiruko ruhagaze imbere y'imodoka y'umweru ya kwasiteri, harimo umukobwa washyize agakapu ku rutugu iyi kwasiteri yanditseho yaho.

Umuhanda munini w'umukara urimo imirongo myinshi iri mu ibara ry'umuhondo, hirya yawo hari akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave ndetse imbere hari inzu ikorerwamo ubucuruzi isizwe irangi riri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda munini w'umukara imbere yawo hari itara ryifashishwa kumuririka abagenzi n'ibinyabiziga, ndetse munsi yaryo hari abantu batandukanye. Hari umwana wambaye ikoti ry'umuhondo, ndetse ku ruhande hari umukobwa wambaye umupira uri mu ibara ry'umukara ndetse n'ikabutura y'umweru.

Umurima munini uri guhingwa n'imbaga nyamwinshi y'abantu batandukanye hari umugabo wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'itisi ndetse ari guhinga, imbere ye hari umugabo wambaye itisi y'umukara, umupira w'umutuku, imbere ye gato haparitse amagare.

umuhanda, iruhande rwawo hari inzego z'umutekano, zirimo polisi ndetse n'abadaso, imbere yabo hari kandagira ukarabe, iriho indobo y'ubururu.

Umugabo w'umwirabura ubyibushye, wambaye ikote, umupira w'umutuku ndetse ufite mikoro mu ntoki, inyuma ye hicaye imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo. Inyuma kandi hari umurima urimo insina, imwe muri zo iriho umugabo wambaye ikote.

Abaturage bihurije hamwe barimo barabumba amatafari biragaragara ko bagiye kubakira utishoboye, ibi byahozeho na kera byo kubakira abatishoboye bahana imiganda.

Umurima munini urimo abantu bari guhinga higanjemo abagabo, hari umugore uri guhinga uhetse umwana ndetse ukenyeye igitenge, inyuma ye hari umusore uri guhinga wambaye isengeri iri mu ibara ry'ubururu ndetse yambaye ikabutura iri mu ibara ry'umweru.

Abantu bari gukora umuganda higanjemo abagabo umwe muri bo yambaye ingofero y'umukara, ishati ndetse n'isaha ku kuboko, inyuma ye hari umusirikare ufite amabuye mu ntoki wambaye ingofero ndetse yambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda.

Mu muhanda munini w'igitaka urimo imbaga nyamwinshi y'abantu bari gukora umuganda, harimo umugabo wambaye ingofero iririmo ibara ry'umutuku, umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Inyuma ye hari umugabo wambaye jile, ndetse n'umupira uri mu ibara ry'ubururu.

Umugabo ubyibushye wambaye umupira w'umukara, uriho ifoto ya Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, arahagaze, inyuma ye hari imbaga nyamwinshi y'abantu bahagaze higanjemo abagabo ndetse inyuma yabo hari igiti kinini gifite amashami maremare.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo, bamwe baricaye abandi barahagaze, harimo umugore wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, inyuma ye hicaye umugabo wambaye umupira uri mu ibara rya oranje.

Abantu benshi bari gukora umurimo wo kwikorera amabuye higanjemo abagabo, harimo umusore wambaye ingofero iriri mu ibara ry'umukara n'ipantaro iri mu ibara ry'ubururu, imbere ye hari umugore wambaye ishati y'igitenge ndetse afite ingata ikozwe mu makoma ku mutwe.

Inzu iteye ibyondo imbere yayo hari imbaga nyamwinshi y'abantu, bahagaze inyuma yabo hari abantu bari gukora umurimo wo gukata icyondo, umwe muri bo arunamye ndetse yambaye ipantaro irimo ibara ry'umutuku, imbere ye hari ingunguru nini irimo ibara ry'ubururu.

Umugabo w'umuporisi yambaye imyenda yabigenewe, arimo arasuhuza abaturage ariko abaganiriza ku birebana n'umutekano ndetse na gahunda za leta.

Ibikoresho bikozwe mu mbaho hirya yabyo hari abantu bari kugenda higanjemo abagabo, umwe muri bo yambaye amarinete, ikoti rya kositimu, karuvate ndetse n'ishati y'umweru. Inyuma yabo hari amapoto abiri ndetse n'igikoresho kifashishwa mu gukwirakwiza umuriro mu baturage, hasi yacyo hari umusirikare wambaye impuzankano y'Igisirikare cy'u Rwanda.

Icyapa kigizwe n'ubuso bworo bwijimye kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, ndetse yantswehomo ari mu ibara rya oranje agaragaza uko amakipe azakina mu murenge Kagame Cup bibiri na makumyabiri na kane, bibiri na makumyabiri na gatanu.

Imbuga nini irimo sima, irimo abantu higanjemo abasore, bari gukora imyitozo ngororamubiri, umwe muri bo yambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara ndetse arunamye, yakoresheje ukuboko kumwe hasi, hejuru ye hari amatara amurika.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo abakinnyi bari gukina harimo abambaye amajeze ari mu ibara ry'ubururu, hirya yabo hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi giparitsemo umumotari ndetse hari umugabo wicaye, inyuma gato hari igipangu kinini cyubakishijwe amatafari ahiye asize irangi ry'umutuku.

Ikipe yambaye amajezi y'ubururu, mu migongo y'abakinnyi harimo imibare igiye itandukanye, ni abasore babiri bagiye guhura n'umugabo wambaye amadarubindi, birasa nkaho ari umutoza.

Umwana w'umukobwa wambaye ijezi y'umukara, afite umupira arimo arirukanka ngo atsinde igitego. Arimo arakina na bagenzi be na bo bambaye amajezi y'ubururu.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo abakinnyi bambaye impuzankano, igizwe n'amakabutura arimo ibara ry'umukara, ndetse n'imipira ya orange. Umwe muri bo yambaye godiyo zirimo ibara ry'umuhondo, ndetse ari kwiruka, imbere ye hari mugenzi we ufite umusatsi w'umukara.

Ikibuga kinini kirimo umusore uhagaze, wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'ubururu, iruhande rwe hari abakinnyi bambaye ama jezi ari mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari umusifuzi wambaye umupira wa orange ndetse n'ikabutura iri mu ibara ry'umukara.

Inzu nini irimo abana bari kureba umupira yicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, umwe muri bo ni umupolisi wicaye yambaye amarinete ndetse yambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda iri mu ibara ry'umukara.

Abana batatu b'abahungu bari mu kibuga barimo barakina agapira. Bamwe muri bo bambaye ibirenge naho undi umwe yambaye inkweto zabugenewe.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi bikase neza, kirimo abakinnyi batandukanye bambaye impuzankano igizwe n'amajezi ari mu ibara ry'umuhondo ndetse afite uturonko tw'umukara hejuru, inyuma yabo hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi kandi n'ibiti bitandukanye.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo ibyatsi bitoshye, kirimo abakinnyi bambaye impuzankano igizwe n'amajezi ari mu ibara ry'ubururu. Hirya hari ikigo cy'amashuri cyubatswe, ni ibyumba cyubakishijwe amatafari ahiye, ndetse imbere yabyo hari ikibuga cya basiketi.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo abakinnyi batandukanye hirya yabo hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi ndetse giparitswemo moto, hirya yazo hari abantu bahagaze ndetse n'abicaye higanjemo abasore.

Ahantu hanini hasakaye hari imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagore, harimo umugabo uhagaze wambaye iji iri mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Imbere ye hari umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umukara.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo abakinnyi batandukanye bari gukina umupira. Higanjemo abambaye amajeze agizwe n'ibara ry'ubururu. Harimo umusore uri kwiruka wambaye ikabutura ya orange, umupira w'umweru. Inyuma ye hari umusore uhagaze wambaye umupira w'umweru.

Umugabo ndetse n'umugore bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye imyenda ya siporo undi yambaye imyenda isanzwe barimo barirukanka mu kibuga, umugore arasa nkaho arimo akora siporo.

Abagabo babiri umwe yambaye iniformu ya gisirikari, n'undi yambaye imyenda y'imikara mo imbere yambaye agapira k'umweru, bari mu kibuga, aha ni muri sitade, inyuma yabo hari undi mugabo.

Ikibuga kirimo sima cyifashishwa mu gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo abantu batandukanye bari gukora siporo, umwe muri bo yambaye isengero y'umutuku, ipantaro y'umukara, inyuma ye hari umugabo w'umwirabura wambaye ikabutura, ndetse n'isengeri biri mu ibara ry'umweru.

Abasore bambaye amajezi ndetse n'imipira y'imyeru, biragaragara ko bavuye mu kibuga gukina. Ni kumanywa, barimo baraganira uko bakinnye.

Ikibuga kirimo tapi irimo ibara ry'icyatsi gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo abakinnyi batandukanye higanjemo abasore, umwe muri bo yambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu wanditseho nimero umunani, mu ibara ry'umukara, ndetse yateye balo ku mutwe.

Umuhanda munini w'umukara, hirya yawo hari ibinyabiziga biparitse, iki gare ndetse n'ikinyabiziga cya moto kiriho umusore uri gupakira imizigo, wambaye ikasike y'umutuku, umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, imbere gato hari inzu iri mu gipangu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Umuhanda munini w'umukara, urimo imirongo myinshi iri mu ibara ry'umweru, hirya yawo hari agahanda k'abanyamaguru kubabakishijwe amapave, hirya yako hari indabo zi kase neza, imbere gato hari moto itwawe n'umumotari wambaye kasike y'ubururu ndetse yambaye umupira w'umukara.

Moto itwaye amajerekani menshi, uwuyitwaye yambaye kasike, iyi ni imihanda yo mu giturage. Aha hakorerwa serivisi zitandukanye.

Umuhanda munini w'igitaka, iruhande rwawo hari ibyatsi bitandukanye ndetse hari umusore wambaye bodaboda, ziri mu ibara ry'umuhondo, afite indobo mu ntoki ndetse yambaye ipantaro y'ikoboyi, umupira uri mu ibara ry'icyatsi, inyuma ye hari inzu zitandukanye, zisakajwe amabati.

Umuhanda munini w'umukara urimo umurongo munini uri mu ibara ry'umuhondo, hirya yawo hari akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave. Umuhanda w'umukara ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu kuko woroshya ubuhahirane hagati y'abantu batuye mu bice bitandukanye.

Umuhanda munini w'umukara urimo imirongo iri mu ibara ry'umuhondo urimo ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umugabo wambaye kasike ndetse imbere hari agahanda k'abanyamaguru karimo abantu bari kugenda, iruhande rwako hari umurima munini urimo ibyatsi ndetse imbere cyane hari inzu zitandukanye.

Umuhanda munini w'igitaka ku mpande zawo hari ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi, hirya gato hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, imbere cyane hari inzu nziza isakajwe amabati arimo ibara ry'umutuku ndetse yubakishijwe amatafari ahiye.

Umuhanda munini w'umukara urimo umurongo muremure urimo ibara ry'umuhondo, urimo ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara ibintu kiri mu ibara ry'umweru, hirya gato hari akayira k'abanyamaguru kubabakishijwe amapave ndetse n'ishyamba ririmo ibiti byinshi.

Umuhanda munini w'igitaka urimo umugore uri kugenda wambaye ikanzu, ku ruhande rwe hari umurima munini urimo ibiti bitandukanye, imbere cyane hari inzu iri mu gipangu cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse gisizwe irangi ry'umutuku.

Umuhanda munini w'umukara urimo imirongo myinshi iri mu ibara ry'umuhondo ndetse ku mpande zawo hari imirongo miremire iri mu ibara ry'umweru ndetse hari amatara menshi yo ku umuhanda amurikira ibinyabiziga ndetse n'abagenzi batandukanye.

Akayira k'abanyamaguru ku bakishijwe amapave. Iruhande rwako hari umuhanda munini w'umukara urimo umurongo uri mu ibara ry'umuhondo. Imbere hari umutaka wa MTN wicayemo umuntu. Imbere gato hari ikibuga kinini giparitsemo ibinyabiziga bitandukanye.